Abana babiri bari gukina n'amazi ari guturuka mu ivomero, umwe yambaye umutuku undi yambaye ipantaro n'ishati y'amaboko maremare bisa n'icyatsi, bahagaze mu cyondo, inyuma yabo hari ibyatsi bisa nk'ibyumye.

Amasafiriya, amabase, ibidomoro bifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, abantu benshi bari ku mugezi rusange bari kuvoma amazi, harimo umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku.

Abantu bari ahantu hamwe, harimo abambaye udupfukamuwa n'abandi batumanuye, umukobwa umwe wambaye agapira k'umutuku n'ingofero y'umweru ahagaze imbere y'umwana uraramye, ari kumushira akantu mu kanwa.

Umwana w'umukobwa wishimye cyane usutamye imbere y'umugezi uri gukaraba intoki, imbere ye hari amajerekani atatu ahateretse, imwe ifite ibara ry'ubururu n'umupfundikizo w'umutuku, andi abiri afite ibara ry'umuhondo.

Umugabo ufite uruhara n'agasatsi gake ku mutwe, ufashe ibikapu mu ntoki, arunamye ari gusuhuza akana gahagaze imbere ye, arishimye cyane, inyuma yabo hicaye abandi bantu benshi cyane.

Abadamu babiri bari mucyumba kwa muganga, umwe acigatiye umwana, yambaye umupira w'amaboko maremare, afite n'umusatsi muremure, undi ni umuforomokazi, yambaye ga n'itaburiya y'umweru, ari gukingira umwana wisekera.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi iri kuberamo inama, umugore uri kuyobora inama yambaye agakote ku mukara, ku meza ye hariho ibikapu n'amacupa y'amazi, harimo intebe y'umutuku iticayeho umuntu, harimo umugabo ufite ikaye n'ikaramu, harimo n'umugore uri kureba kuri telefoni.

Abantu benshi bicaye hamwe bari kurebana, bagiye kwivuza bamwe bafite amakaye mu ntoki zabo, hari abahagaze imbere y'umuforomokazi.

Ababyeyi bateraniye hamwe bishimye cyane bari kubyina, imbere yabo hari ameza, ku mpande hari intebe y'umukara n'izindi ebyiri z'umweru, ibikuta by'iyo nzu bisize amabara y'umuhondo.

Abana babiri ba bakobwa bari ku mugezi, umwe yambaye agashati karimo amabara y'umukara n'umutuku akenyeye igitenge, undi yambaye ijipo ya kaki, bari kwikorera indobo umwe afashe undi.

Umubyeyi wirabura ufite umusatsi muke, uzanye umwana kwa muganga, umuforomokazi ufite imisatsi isutse, yambaye itaburiya y'umweru, n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'amaherena. Inyuma yabo hari urugi rusa nk'icyatsi.

Amazi menshi ahagaze ahantu hamwe yakoze ikizenga, hagati harimo ibuye rinini cyane, abana babiri umwe uruta undi ho gato bari kuvoma muri icyo kizenga, ku ruhande rwacyo hari ibyatsi.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, abaturage bicaye mu ishusho isa n'inyuguti ya u, umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru ahagaze hagati ari kuyobora inama.

Abantu benshi cyane bishimye bari gukoma amashyi. Benshi muri bo bambaye amataburiya y'ubururu. Umugabo umwe yicaye imbere yabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Undi mugore afite ishakoshi y'icyatsi.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku ucigatiye umwana uri gupfukwa mu mutwe urimo kurira, umuforomo wambaye uturindantoki tw'umweru n'itaburiya y'umweru.

Abagabo n'abagore bari mu nama mu nzu mberabyombi, ku meza yabo hateretseho udushinzwe kongera amajwi, umugozi ukoreshwa bari gucaginga, udukombe, n'udusahane.

Imbuga izengurukishijweho n'urugo rwubakishijwe imiyenzi, hateyemo n'insina, mo hagati harimo agatanda ku bakijije ibiti, kubitsweho amasahani, utudomoro, n'ibikombe.

Abantu bateraniye hamwe basa n'abarimo gufata ifoto y'urwibutso, harimo abagabo n'abagore, harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu n'abambaye ay'ibara ry'umweru.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, basa nk'abarimo gufata ifoto y'urwibutso, bamwe barahagaze abandi baricaye, umwe muri bo arunamye, benshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, abantu bamwe bicaye mu buryo bw'uruziga, harimo intebe zifite amabara y'umutuku n'ameza afite ibara ry'umukara, kuri ayo meza hateretse amacupa, Mudasobwa ndetse n'amakaye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, mu mbuga y'ibitaro, harimo abakecuru, abana, abagabo, n'abasaza, bamwe baricaye, abandi barahagaze, iruhande rw'inyubako hahagaze imodoka isa n'umweru, muri iyo mbuga harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye agapfukamunwa iteburiya y'umweru n'uturindantoki dufite ibara ry'umweru. Yambaye ibikoresho mu maso bimufasha kureba. Imbere ye hari umugabo w'umusaza afashe ku rutugu.

Abantu bateraniye hamwe, bari mu nama. Ku meza yabo, harambitse amacupa y'amazi. Mu nguni y'inzu bicayemo, harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Umwe muri bo, yicaye ku ruhande rwo hepfo, ari kuyobora inama.

Abantu bahagaze hamwe bishimye cyane bari guseka, harimo abagabo babiri bafatanye mu kiganza basuhuzanya, umugabo muremure w'inzobe undi mugufi wambaye ikoti ry'umukara n'abagore babiri harimo uwiteye akantu ku rutugu.

Umwana muto w'umukobwa, wambaye isengeri irimo ururabo rw'umutuku n'amabara y'umuhondo n'ijipo irimo icyatsi, uri kuvoma mu cyuzi kinini ukoresheje ijerekani.

Abantu benshi bateraniye, hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bahagaze mu buryo bukoze igice cy'uruziga abandi bicaye imbere ku ntebe y'akabaho.

Abantu bari mu nama, bicaye mu nzu mberabyombi, abagabo babiri bicaye imbere, umwe afite indangururamajwi mu maboko ye, ku meza yabo hateguwe igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, hateretse amacupa y'amazi n'ibirahuri.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, umugabo umwe ahagaze imbere uri kuyobora inama wogoshe ku mutwe, yambaye amataratara, ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ku ntebe ziri imbere buri umwe afite amazi.

Akana gato k'agakobwa kambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, kari kumena amazi ari mu icupa, karyegetse ku mugezi uri imbere yako.

Umwana wumukobwa uri gukaraba intoki ku mugezi. Ari ku kigo cy'amashuri gifite imbuga irimo ibiti byinshi cyane, harimo igifite amababi n'amashami byumye.

Abantu bahagaze imbere y'ibitaro bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo umusore muremure wambaye akajire k'ubururu n'ipantaro y'umukara, hakabamo n'umugabo wambaye taburiya y'umweru n'undi ufite terefone mu ntoki ze.

Abana b'abanyeshuri, abakobwa n'abahungu bari ku mugezi bamwe muri bo bari gukaraba intoki undi ari kuvoma imbere yabo hateretse indobo zisa n'umuhondo, inyuma yabo hari ibyatsi birebire.

Umugezi w'amazi menshi atemba, abana benshi bambaye ubusa barimo bari koga, harimo umwe uhagaze wifashe amaboko yombi ku kananwa n'undi warambuye amaboko.

Abantu batatu bari gukora akazi ko gutondeka imifuka ahantu hamwe, abagore babiri bose biteze ibitambaro mu mutwe, umwe wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi n'umukara, n'umugabo uhagaze hejuru uri kubafasha kuzamura imifuka.

Ivomero rusange, umwana muto ufite akadomoro k'amacupa arindwi ari kuvoma, impande y'umugezi hahagaze umugabo uri kumufasha, haruguru mu muhanda hari abantu benshi, abanyeshuri n'abagore.

Abana bari kwivomero baje kuvoma amazi, umwe ari inyuma ari kumanura igihombo, ku mugezi yatetsereho ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwabo hari umwana wasuherewe cyane ufashe agakoni mu ntoki.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku n'inkweto za bodaboda z'ubururu. Ari kunywa amazi ku mugezi akoresheje intoki, imbere ye hateretse indobo yuzuye amazi. Ruguru ye hari inzu ifite inkingi zifite amabara y'ubururu n'umweru. Hepfo ye hateye ishyamba.

Abana batatu barimo gukaraba intoki, umwe yambaye agapira kajya gusa nk'umweru, umwe yambaye aga ishati k'ubururu, inyuma yabo hari igiti kirekire cyane, hirya yabo nanone hari urugo rukikije rwubatse mu biti.

Abana babiri bato bishimye cyane, bambaye amashati asa nk'umutuku, bari gukaraba intoki, umwe afite igikombe mu ntoki ari gusuka amazi mu ntoki za mugenzi we. Inyuma yabo hari ibyatsi.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi rusange, umugore umwe ari inyuma kumanura igihombo kugira ngo ba one uko bavoma. Umwana ateretseho ijekani ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rw'abo hahagaze abantu benshi harimo umugore ufite umwana.

Umwana muto muto wishimye cyane urimo guseka, ufite umusatsi muke cyane ku mutwe, yambaye ijipo ifite ibara ry'ubururu, n'agapira kajya gusa n'umutu, ari kuvoma amazi ku mugezi, akoresheje igikosi.

Inzu mberabyombi, yabereyemo inama. Abantu bane baricaye, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi. Buri wese afite ikaye imbere ye. Babiri muri bo, bafite mudasobwa imbere zabo.

Inzu mberabyombi ifite amabara y'umweru n'umuhondo, yabereyemo inama, inama irahumuje, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kifitemo amabara y'ubururu n'umweru.

Umugore ufite umusatsi muke, uringaniye ku mutwe, wambaye agapira k'umweru. Acigatiye umwana muto cyane, imbere ye hari umusore wambaye amataratara, uri guha amata uwo mwana. Inyuma y'uwo musore, hari undi uhunamye, wambaye umukandara.

Abagabo n'abagore bateranye bari mu nama, bicaye ku mirongo ibiri ariko irebana, hagati yabo harimo akameza gafitemo ibara ry'ubururu gateretseho indabo, buri wese imbere ye hateretseho icupa ry'amazi, bafite amakaye n'amakaramu n'umugabo uri muri telefone.

Abaganga babiri, umwe wambaye ishati y'icyatsi cyerurutse undi wambaye itaburiya y'umweru, ku meza yabo hariho umuti wo koga mu ntoki na mudasobwa, imbere yabo hari umugabo wambaye ijire y'ubururu n'umugore wambaye ingofero irimo amabara y'umutuku.

Umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, n'amaherena akozwe mu ishusho y'uruziga, igizwe n'amasaro, afite imisatsi izinze ifungiye inyuma, acigatiye umwana muto w'uruhinja.

Umukobwa wishimye cyane urimo guseka, afite imisatsi mike ku mutwe we, yambaye ijipo y'umukara, arasutamye ari kuvoma amazi ku mugezi wo mu rugo, ijerekani iteretse mu mabasi.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, irimo abagabo n'abagore, bicaye ku meza ariho amacupa y'amazi kuri buri muntu. Hateretseho terefone, amakaye, harimo n'abafite amakaramu.

Umugore munini ucigatiye umwana, wambaye agashati gafite ibara ry'umweru, ufite n'udusaro mu mutwe, umuhondo, icyatsi n'umutuku, imbere ye hahagaze umuganga ufite urushinge mu ntoki, uri gutera ku rutugu rw'umwana.

Inzu ebyiri imwe; iri haruguru indi iri hepfo. imbere y'iri hepfo, hashashe amabuye hakaba hahagaze n'umugabo. Amatafari atondetse, agerekeranyije imbere mu ruzitiro n'ibitaka inyuma y'uruzitiro.

Ku ivomero rusange, abaturage barimo kuvoma. Babiri muri bo, bari guterura indobo y'ubururu yuzuyemo amazi. Abandi bahagaze inyuma y'umugezi. Hafi y'aho, hari inzu isakaje amabati, hakaba n'igiti kirekire.

Umu mama wambaye itaburiye y'umweru uri gukingira umwana, imeza iri iruhande rwe iteretseho agakweto k'umuhondo n'imiti ari gukoresha, umubyeyi ucigatiye umwana yambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umweru n'umukara yiteze n'igitenge mu mutwe.

Umwana muto, uri gukaraba intoki, ku mugzi. Yambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'icyatsi. Iruhande rwe n'imbere ye, hateretse indobo ebyiri, zifite ibara ry'ubururu. Inyuma ye, hateye ibyatsi.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana muto wishimye cyane, uri mu murima urimo ibimera bisa nk'icyatsi. Umubyeyi yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku ,umukara, n'umweru yambaye n'agatambaro k'umweru mu mutwe.

Umugore ufite ubwoba barimo gutera urushinge ufite amataratara mugatuza, inyuma ye hari uwambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umukara, n'umuhondo. Umuforomokazi yambaye apfukamunwa.

Abantu bahagaze hamwe basa n'abari gufata ifoto y'urwibutso, ab'imbere bafashe ibipapuro mu ntoki byanditseho, inyuma yabo hateye ibyatsi n'akazu kubakishije amabati.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abagabo n'abagore bari mu nama, ku meza yabo harambitse za mudasobwa n'imigozi myinshi, hateretse n'amacupa arimo amazi harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara.

Umugore uri kuvoma ku mugezi akoresheje indobo isa n'icyatsi, wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku. Abandi babiri, bafashe ku cyuma kiri kuri uwo mugezi, umwe yambaye agapira karimo ubururu, undi yambaye isengeri y'umweru.

Umugore ugaragara nk'aho akiri muto wambaye ingofero mu mutwe uri guseka cyane wishimye, ari gukaraba intoki akoresheje igikoresho kitwa kandagira ukarabe , inyuma ye hari inzu ifite umuryango ufunguye.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, higanjemo urubyiruko rwambaye imipira y'umweru n'ubururu n'ingofero, iruhande rwabo hari igiti kinini cyane, inyuma yabo hari inzu isakaje amategura.

Abana babiri bari kuvoma amazi ku mugezi bakoresheje indobo, inyuma yaho hari urugo ruzengurutse rw'ibiti by'icyatsi, umwe muri bo yambaye agashati k'ubururu.

Umukecuru wambaye ingofero mu mutwe, agapira karimo amabara y'umweru n'umukara, igitenge cy'ibara ry'icyatsi. Ari kuvoma ku migezi rusange afite amajerekani abiri afite ibara ry'ubururu.

Umugore ufite umusatsi muke uringaniye ku mutwe ucigatiye akana gatoya, ari imbere y'umuganga wambaye amaherena n'ibikomo byinshi ku kaboko. Ari kuvura umwana amutamika ibintu mu kanwa.

Umugabo wishimye cyane wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite ijerekani isa n'umuhondo, uri ku iriba rusange, inyuma ye hari umukingo naho hepfo yaho hakaba urugo rwubakishije ibyatsi.

Umwana muto, wishimye cyane uri guseka, ufite umusatsi muke cyane, ku mutwe. Ari kuvoma ku mugezi wubakiye, ukoresheje amajerekani, afite ibara ry'umuhondo. Hafi y'uwo mugezi, hateye ibyatsi n'insina.

Ababyeyi benshi baje gukingiza abana. Umwe muri bo ahagaze imbere, afite ifishi mu ntoki isa nk'umuhondo. Yambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku n'icyatsi.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, afite udututa mu mutwe. Ari koga intoki ku mugezi, imbere ye hateretse ibase ifite ibara ry'umukara.

Umugabo ukuze wishimye cyane uri guseka, yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ipantaro isa n'umukara, afite ijerekani ari ku mugezi, inyuma ye hari ibyatsi birebire.

Ahantu mu kibuga hateraniye ababyeyi benshi cyane baje gukingiza abana. Harimo umuforomo umwe. Inyuma ye, hari Imeza iteretseho imiti. Iruhande rwe, hari Imeza irambitseho ibipapuro by'imfashanyigisho.

Umugore ucigatiye umwana, wambaye ikanzu n'igitambaro mu mutwe kirimo amabara y'umutuku, yicaye imbere y'umuganga washyize igikoresho bakoresha bapima abarwayi mu muhogo, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye ku mutwe, wambaye amataratara, agapira n'ipantaro y'umukara, afashe akana gatoya yagashyize ku munzani, inyuma ye hari umugore wambaye ipantaro.

Ivomero riteretseho ibase iri kuvomerwa. Iruhande rwayo hari andi mabase n'indobo bihateretse, n'ijerekani isa n'umuhondo, hari abana babiri bari kuhakinira, n'umubyeyi uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Abantu benshi bicaye hamwe barimo abagabo n'abagore, bambaye imipira y'imyeru bose, harimo uwambaye amataratara n'ingofero, abagore benshi bambaye ibitambaro mu mutwe.

Umwana w'umunyeshuri, wambaye bodaboda, n'ikanzu y'ubururu bwijimye, uri gukaraba intoki ku mugezi. Imbere ye harambitse indobo y'icyatsi. Hepfo ye hari undi mwana uri hafi y'ahateye indabo.

Abagore n'abagabo bicaye mu nzu mberabyombi, ku meza y'abo hateretse amacupa y'amazi, bafite ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo ryererutse, umwe muri bo yacometse telephone iri imbere ye.

Ivomo rusange ririho abantu batatu. Umwe muribo ni umukobwa wambaye akantu mu mutwe, undi ni umuhungu wambaye agapira k'umutuku, wegamiye ku ivomera. Umwana muto wicaye, wambaye agapira karimo umukara. Impande y'iryo vomero, bateyeho indabo z'icyatsi.

Umugabo wambaye amataratara afite uruhara mu mutwe, ikote rirerire, ishati ijya gusa n'ubururu bwererutse na karuvati, ahagararanye n'umwana w'umukobwa ufite uruhu rwera, imisatsi miremire. Bafashe mu ntoki ikirango kiriho icyapa cy'u Rwanda.

Umwana w'umukobwa wishimye cyane uri guseka. Umusatsi mukemuke ku mutwe, yambaye agashati gafite amaboko magufi n'ikanzu n'isarubeti inyuma yako, ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe.

Umwana muto w'umuhungu uri ku mugezi rusange, yateretseho indobo ari kunywa amazi akoresheje intoki ze. Inyuma ye hari ibyatsi biteye, hafi ye hari inzu ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Abantu benshi bahuriye hamwe bahagaze mu mbuga irimo itente ifite ibara ry'umweru, benshi muri bo bambaye imyenda irimo umutuku. Harimo umugore uhetse umwana wamutwikirije agatambaro gasa n'umweru.

Abana bato bicaye hamwe bari guhabwa amata, umukecuru uri kuyabaha abasutamye imbere, yambaye agapira k'umweru n'akajire ka kaki, umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, inyuma ye hariho uwambaye agapira k'ubururu na bote, hakaba n'uwambaye ipantaro y'umukara.

Abagore benshi bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso. Harimo akana k'agakobwa kambaye ikanzu y'umutuku n'agakoti k'umukara n'abagore bambaye udusengeri dufite amabara y'icyatsi. Harimo n'umugore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku wishimye cyane, usutse udututa mu mutwe, ari gukaraba intoki ku mugezi, ufite ibase y'umukara iteretse imbere ye.

Igishanga kirimo icyuzi kinini. Umukobwa ari kuvoma amazi. Umuhungu ari koza igare muri icyo cyuzi. Iruhande rwacyo, hari ibyatsi byinshi cyane.

Ivomero rusange rikikijwe n'ibiti birebire byinshi, abantu babiri bari kuvoma, umukobwa umwe yambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'igitambaro mu mutwe, uyu mugabo yambaye ishati irimo amabara y'umutuku.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abana, abagore n'abagabo. Imbangukiragutabara n'umugabo ushinzwe umutekano. Hari itente afite ibara ry'umweru, n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo ushinzwe ubuzima wambaye itaburiya yubururu, ufite urupapuro runini ruriho amafoto y'abantu babiri, ahagaze imbere y'umugore wambaye agapira k'umuhondo, inyuma yabo hariho inzu ifite amabuye ku rukuta irimo n'amabara y'umukara.

Abantu bateraniye hamwe harimo n'abaganga batandukanye, bari gutanga ubuvuzi rusange, imbere yabo hari umugore wambaye igitambaro kirimo amabara y'ubururu n'igitenge yiteye ku rutugu, gifite ibara ry'umukara n'umutuku.

Hotel yubakishije amabara ariho ibirango by'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, umugabo imbere uri kuyobora inama, umugore w'umupolisi wicaranye n'abaturage baje muri iyo nama. Umwana wicaye hasi imbere n'intebe isa nk'umweru yicayeho.

Ivomero rusange ryubakishijwe isima basize amabara y'ubururu, ryahuriyeho abantu benshi, harimo abafite indobo, ibidomoro bisa n'umuhondo, hari n'umugabo wambaye igikoresho kirinda mu mutwe.

Abagore benshi bateraniye hamwe bishimye bari guseka, bamwe bafashe ku meza, benshi muri bo barogoshe bafite umusatsi uringaniye, abandi biteza ibitambaro mu mutwe, umwe ahagaze imbere afashe mu mayunguyungu, ahafatiye akantu gafite ibara ry'ubururu.

Umusaza ukuze cyane ufite imisatsi irimo imvi wambaye ingofero n'ikote n'agapira k'umweru. Bamushyize igipimo ku kuboko kireba umuvuduko w'amaraso, ku meza hariho icupa ry'amazi, umuforomokazi yambaye itaburiya y'ubururu n'igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Imbuga ikikijwe n'urugo rw'imiyenzi n'ibiti, harimo insina ndende n'agatanda kariho amasahane yogeje n'utudomoro.

Umwana muto uri gukaraba intoki ku mugezi. Ku ruhande rwe n'imbere hateretse indobo zifite amabara y'ubururu. Inyuma ye hateye ibyatsi byinshi cyane.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu mbuga nini. Harimo abagore n'abana n'abagabo. Bamwe bicaye hasi abandi bahagaze. Muri iyo mbuga harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Iruhande rw'inzu hahagaze imodoka y'amabara y'umweru.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga, afite ikayi mu ntoki n'agakapu ko mu ntoki gasa nk'umutuku. Muganga yashyize igipimo ku mwana acyambaye no mu matwi. Afite umusatsi yafungiye inyuma, yambaye n'itaburiya y'umweru.

Umugore wikoreye ikidomoro ku mutwe gifite ibara ry'umuhondo n'umupfuzo w'umutuku, witeze igitambaro, wambaye ingutiya ifite amabara y'icyatsi, imbere ye hari umwana na we ufite ikidomoro, iruhande rwe hari uwambaye imyenda y'ubururu, imbere ye hari inzu zifite amabati atukura.

Ku mugezi hari amajerekani menshi, amazi arimo araza ari make, umukecuru yambaye agashati karimo amabara y'umweru, undi yambaye agapira karimo amabara y'icyatsi ku ijosi, n'umwana w'umukobwa wegamiye ku mugezi.

Umugabo n'umugore barimo kuvoma amazi ku mugezi mu majerekani afite ibara ry'umuhondo ateganye, imbere yabo hahagaze umugore ufashe ku mugezi, inyuma ye hateye ibiti byinshi.

Abagabo benshi bateraniye hamwe bicaye mu buryo bw'uruziga, ameza yabo ateguje igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, ateretseho amakaye, amakaramu, ibirahure ndetse n'amataratara.

Umugore ubabaye cyane wambaye igitambaro mu mutwe wicaye iruhande rw'akana karembye cyane karwaye, abaganga barimo kwambika ibintu mu kaboko no mu mazuru, inyuma ye hateretse agasahane gapfundikiye.

Abagore batatu bicaye hamwe, ku meza yabo harambitseho amakayi, bamwe bafite utuntu mu ntoki dusa n'icyatsi, bari kwandika muri ayo makayi, undi umwe ari kubitegereza, yicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru.

Munzu mberabyombi yabereyemo inama isa n'ihumuje aho bari hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, abagabo barimo bambaye amakote n'amapantaro n'inkweto z'umukara, umugore umwe yambaye ikote rirerire risa n'umweru.

Abagabo batatu barimo gufata ifoto y'urwibutso, bose bambaye udupfukamunwa n'udukoresho turinda mu mutwe, bambaye itaburiya, umwe yambaye iy'umweru, abandi bambaye ubururu.

Urubyiruko rw'abana b'abakobwa n'abahungu, bambaye impunzankano y'udupira dusa n'ubururu n'ingofero y'umweru, barishimye cyane bari guseka, bazamuye amaboko hejuru bafunze ibipfunsi.

Ivomero rusange rikikijwe n'urugo rw'ibiti bigufi ariko atari cyane, umuturage ari kuvoma ateretseho ijerekani isa nk'umuhondo, imbere ye hari akadomoro k'amacupa arindwi gasa nk'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe bishimye cyane bari guseka, benshi muri bo bambaye impuzankano z'udupira tw'umuhondo wijimye n'udusengeri tw'icyatsi, barimo gufata ifoto y'urwibutso, babiri bari imbere barasutamye abandi barahagaze.

Imberabyombi irimo kuberamo inama, batandatu mu bitabiriye bicaye imbere, umwe muri bo yambaye agakanzu k'umutuku, umugabo urimo yambaye ikote na karuvati y'umutuku. Umwe mu bari kwigishwa afite mudasobwa, buri wese afite amazi ku meza ye.

Abana babiri, umwe wambaye ipantaro n'ishati irimo amabara y'umweru n'icyatsi; basutamye mu muhanda urimo icyondo. Bari gukaraba intoki, ku mugezi.

Umugezi wubakiye umenyeho beto, uri kuzaba amazi menshi cyane, imbere yaho hari umuntu uri gukaraba intoki kuri uwo mugezi, yaciye inzara, afite n'intoki ngufi.

Umujyanama w'ubuzima wicaye ku ntebe y'urubaho. Uruhande rwe hari amakaye n'agatabo. Ari kwigisha umugore wicaye mu ntebe y'ubururu. Ufite umwana wambaye agapira k'umutuku. Bari imbere y'inzu y'amatafari ihiye.

Umukobwa wambaye agatambaro mu mutwe n'agapira bifite ibara ry'umweru. Acigatiye umwana. Iruhande rwe hicaye umukobwa muto muto. Hari n'undi ufite imusatsi miremire n'amapamba mu ntoki. Imbere ye hari umugore ufite amakaye.

Ivomero rusange riri mu giturage, ryubakishije inzu ifite amabara y'umweru n'ubururu, umukobwa uteruye amajerekani abiri, umumama wambaye agapfukamunwa n'umuhungu uri muri telefoni.

Abantu bahuriye hamwe bishimye cyane bari guseka, benshi muri bo bambaye amataburiya y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru, harimo n'umugore wambaye isarubeti y'umutuku n'inkweto ndende.

Urubyiruko rwateraniye hamwe, harimo n'abagore, n'abagabo, barimo gutera imboga mu karima k'igikoni, iruhande rwabo hari umugabo ushinzwe umutekano, inyuma yabo hari ibiti byinshi cyane.

Abaganga benshi bateraniye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, benshi muri bo bambaye matabuya y'ubururu bwererutse, umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, bari kumwe n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati.

Abagore batatu bari ku mugezi, umwe ari gukaraba intoki, undi ari kunywa amazi akoresheje intoki kuri uwo mugezi, undi ahagaze inyuma yawo yambaye n'agapfukamunwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe z'umukara, ameza ateretseho za mudasobwa n'agacupa k'amazi. Umugabo wambaye ipantaro n'ishati bisa n'ubururu bwerutse, n'umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru n'umukara.

Abana bari ku mugezi bari kuvoma, bafite amajerekani afite amabara atandukanye umukara, umuhondo, umweru n'ubururu, inyuma y'umugezi hahagaze umwana uri kumanura kugira ngo amazi amanuke.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abana benshi bambaye udupira tw'ubururu, bicaye hasi mu ishusho y'uruziga, ameza ari hafi yabo ateretseho ibirahuri.

Umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru, uri kumwe n'abadamu batatu baje kwivuza, umwe muri bo yamwambitse igipimo mu kaboko gipima umuvuduko w'amaraso.

Inzu mberabyombi irimo abagabo n'abagore bari mu nama, umugabo umwe ari imbere ari kuyobora inama, afashe indangururamajwi mu kaboko, iruhande rwe hari umugore wunamye wifashe ku maso.

umukobwa wishimye cyane urimo guseka, arasutamye ari kuvoma mu mazi mu ijerekani iteretse mu mabasi. inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, iruhande rwe hari inzu yubatswe mumabati.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abana bato cyane, bari guha ifunguro ry'imfashamyunganire. Harimo umugabo wambaye impuzangano y'abashinzwe umutekano. Harimo n'umugore wambaye isengeri ry'ibara rya kake.

Inzu mberabyombi irimo abagabo n'abagore yabereyemo inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, n'umwe wicaye ku iy'umukara. Ibikuta byayo bifite ibara ry'umweru. Ku meza yabo hateretseho ibikombe n'udusahani.

Abantu bateraniye hamwe higanjemo abana, barishimye, bari guseka, umugore umwe yambaye amataratara, yicaye imbere yabo, yiteze igitambaro kirimo amabara y'umuhondo, umukara n'umutuku, yambaye n'ikanzu irimo ubururu.

Inzu mberabyombi irimo utwana dutoya tw'utunyeshuri bahagaritse ku murongo turi kumwe n'umwarimu watwo imbere yabo hari ababyeyi bahahagaze umwe muri bo wambaye umupira w'ubururu.

Abagore bazanye abana kwa muganga, umwe yambaye kitenge kifite ibara ry'umutuku, undi yambaye kirimo amabara y'umuhondo n'umukara, cigatiye umwana kiye kumuhereza umuganga uhagaze imbere ye.

Umugabo wambaye ibikoresho bifasha kumva amajwi mu matwi, agapira k'ubururu n'ipantaro y'umweru. Yicaye iruhande rw'umuganga, ufite ikayi mu ntoki, wayiteretse ku mavi, uri kwandika. Afite na terefone mu biganza bye.

Abagabo n'abagore bavuye mu nama, benshi muri bo bambaye udupira tw'umweru, umumama umwe yambaye ikanzu y'umukara, babiri muri bo bambaye udupira tw'ubururu, inyuma yabo hari icyapa gifite amabara y'ubururu yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo.

Abagore bicaye hamwe, harimo uhetse abana, n'abandi b'abakecuru biteze ibitambaro byo mu mutwe, baricaye, imbere yabo hari umugabo uri kubigisha ibijyanye n'indwara yo mu mutwe, ku ruhande hari imeza iteretseho amazi.

Umwana w'umukobwa, wambaye ingofero mu mutwe, ikote ry'umutuku n'ipantaro; yifashe ku matama n'akaboko kamwe. Imbere ye hicaye umugore wambaye amataratara, ishati n'ipantaro by'umukara, ufite umusatsi muke ku mutwe, umufashe ku rutugu.

Umugabo ukuze wicaye hasi wambaye iminyururu, agapira k'umutuku n'ipantaro Ijya gusa nk’umukara, arababaye cyane bisa nk’aho afite ikibazo cyo mu mutwe, inyuma ye hari umugabo wambaye umukara n'inkweto nini cyane z’umukara.

Umukecuru ufite ikibazo cyo mu mutwe wikenyeje igitenge wambaye ikote rirerire ry'imbeho afite amacupa abiri y'amazi n'inkoni ku ruhande rwe, inyuma ye hari umusore uhicaye wambaye ipantaro y'umukara.

Abantu bishimye cyane harimo abagore n'abagabo n'akana gatonya bishimye cyane barimo guseka, bazamuye hejuru udupapuro dufite ibirango nk'iby'ibendera ry'igihugu harimo n'umugore, telefone mu ntoki ze.

Inzu mberabyombi yari yabereyemo inama irahumuje bari gufata amafoto y'urwibutso. Bamwe barahagaze abandi murongo umwe uri imbere urasutamye harimo umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'umugabo wambaye ishati y'umweru

Abana benshi b'abanyeshuri bateraniye mu kibuga, bishimye cyane bari gukina bamanitse amaboko hejuru, bamwe bambaye amashati y'ubururu bwrurutse cyane, abandi bambaye amashati ya kaki.

Abantu bahuriye hamwe, bari kuganira mu cyumba kiberamo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe babaganiriza, harimo abagabo n'abagore, bamwe muri bo bahagaze hagati mu ruziga barimo baravugana.

Umugore wirabura ufite imisatsi miremire n'iminwa y'umutuku, afashe indangururamajwi mu kaboko ke, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'umukara wogoshe ku mutwe, ku meza yabo hateretse igikapu.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, umugore umwe muri bo, ari imbere ari kuyobora inama, yambaye agapira k'umweru n'indangururamajwi mu kaboko ke, ku meza yabo buri wese imbere ye hateretseho icupa ry'amazi.

Abantu bateruye igiti bagiye gushira mu mwobo, abari gushyira itaka ku kimera, abahagaze hamwe, ari babiri bafashe ku giti ndetse n'abandi benshi bahuriye hamwe, basa n'abari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'igikorwa bamaze gukora.

Umugore wishimye cyane uri guseka, wambaye agapfukamunwa, uhetse umwana wicaye ku ntebe ya kabaho, iruhande rwe hahagaze undi mwana w'umuhungu wambaye ishati irimo amabara y'icyatsi, ari guteka igikoma mu isafuriya.

Umugore ufite umusatsi muke muke ku mutwe, wambaye ibitenge bifite amabara y'ubururu. Yipfutse mu maso, asa n'ufite agahinda. Imbere ye, hicaye umugore ufite imisatsi miremire, isutse, ifungiye inyuma. Inyuma yabo, hari inkwi z'imyase.

Umujyanama w'ubuzima, wicaranye n'umugore ucigatiye umwana, wambaye akantu mu mutwe, k'ubururu. Ari kwereka igipimo cy'ubushyuhe, uwo mugore. Afashe telefone mu ntoki ze, ku maguru ye hateretse amakaye.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwivuza indwara z'umutwe, abaganga bicaye mbere y'ameza ari kumwe n'abarwayi, ku meza hateretseho agakarito inyuma yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'agapfukamunwa uhagaze.

Abantu batatu bicaye hamwe bambaye udupfukamunwa bose. Babiri barasutse, undi ateza agatambaro mu mutwe. Bafite ibitabo mu ntoki zabo n'amakaye, hari n'igikapu kirambitse ku ruhande.

Amafoto y'urwibutso ari gufatwa nyuma y'inama imaze kuba, harimo abambaye umweru benshi muri bo ni abaporisi, harimo umugore wambaye ipantaro itukura.

Umugabo w'umusaza ugaraga nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe upfukamishije ivi rimwe akaboko kamwe kari hejuru kandi gafashe hasi, hafi ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye ku igare.

Umugore ubabaye cyane uri mu nzu ishaje, yicaye ku gatebe k'akabaho, imbere ye harambitse agakeka kaboshywe mu birere afite umusatsi muke muke, arirabura.

Umwana w'umukobwa wirabura cyane, arababaye yicaye ku gasambi kazinze, afite ikibazo cyo mu mutwe, bamwambitse umunyururu mu kaguru bawuzirika ku giti kiri imbere ye.

Umusore wubitse umutwe, inkokora yazisize ku mavi, amaboko ayafatisha umutwe. Yambaye ishati y'icyatsi, afite n'umusatsi mukeya ku mutwe. Umugore amwicaye iruhande amufashe ku rutugu n'akaboko kamwe.

Umugabo muremure, wunamye, wambaye ikoti ry'umukara n'ishati ijya gusa umukara. Yazanye indabo aje kwibuka abe bitabye Imana. Iruhande rwe hahagaze umukobwa, wambaye akajire n'agapira k'umutuku.

Umukecuru wishimye uri guseka cyane, aratetse kumashyiga atatu yo hasi, iruhande rwe hari ibikombe bibiri kimwe gisa n'icyatsi ikindi gisa n'ubururu kiri munsi y'umupfundikizo ku rundi ruhande hari inzu y'amatafari ahiye.

Umugore ufite isuka mu ntoki, wikoreye agatebo ku mutwe, wambaye agapira kari mu ibara ry'umukara, inyuma ye hateye igiti cyazamutseho ikidodoki kirekire, iruhande rwe hari inzu isakaje amategura ashaje.

Umukobwa muto wishimye cyane, wambaye agasengeri k'umukara, yambaye udukoma mu kuboko, afite umusatsi muto ariko mwinshi ku mutwe, yicaye mu ntebe iboshye yegamiye ku byuma.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, bamwe muri bo bicaye imbere bari kuyobora inama. Hari abicaye imbere y'ameza afite igitambaro cy'umweru, abandi hatatse indabo imbere yabo.

Urubyiruko rwahuriye hamwe no gufata ifoto y'urwibutso. Bambaye udupira tw'ubururu, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati. Mumpande hahagaze umugore ufite uruhu rwera wambaye ikote ry'umweru.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, harimo umwana uri kurira cyane wikoreye amaboko ku mutwe, inyuma ye hari umukecuru ufite inkwi mu kaboko, hirya hari umuntu ufite ikidomoro ku rutugu.

Umugore munini wishimye cyane uri guseka, yambaye amataratara mu maso afite imisatsi myinshi, impeta mu rutoki udukomo twinshi mu kaboko n'ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu.

Abana bishimye cyane barimo gusetsa harimo wambaye udupira tw'umutuku, umwe wambaye agakote k'icyatsi karimo umweru, n'uwambaye agakoti k'umweru n'agakanzu k'umuhondo, hakabamo n'umwana wambaye umusaraba wo mu muhogo.

Umugabo wicaye ku gatenge karambuye hasi amaguru ye bayazirikanyije, akaboko kamwe gafashe mu mutwe, akandi karambitse ku mavi, yambaye agapira karimo amara y'ubururu n'umweru, iruhande rwe hashashe ikindi gitenge.

Abagore babiri bacigatiye abana, hagati yabo hari ameza akozwe mu biti ateretseho telefone n'agasahane, hirya mu ngu y'inzu bicayemo hariho akabati gateretseho igikoresho gikoreshwa bashyushya amazi.

Umugabo wambaye imyenda ishaje cyane n'ibikweto bishaje, ufashe agatete mu kwaha k'ukuboko kumwe, yashyize ku rutugu igipfurumba kirimo ibyenda bishaje cyane, inyuma ye hari ikimodoka kinini.

Abana benshi bishimye cyane, barimo guseka, bambaye udupira dufite ibara ry'umweru, abanyeshuri babahaye udupapuro, bamwe badushize mu mutwe, undi agafashe mu biganza bye.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, ufite ubwanwa, uri guseka, afite ishinyo y'umukara, amenyo arimo inyinya, arahumirije, afite ibitsike byinshi n'amatwi manini.

Umusaza wishimye cyane wambaye ingofero mu mutwe, ufite icumu mu ntoki. Yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara y'umweru n'akitero k'umuhondo. Mu kanwa afite amenyo yavuyemo imbere, hasi no hejuru.

Abagore batatu bicaye hamwe biteze igitambaro mu mutwe bicumbye n'udukoni umwe muri bo uri konsa umwana amucigatiye, inyuma y'abo hari insina hakurya gato hari umusozi muto uteyeho ibiti.

Abantu benshi cyane bishwe n'agahinda bababaye basa nk'abarimo gusaba ubufasha, umwe muri bo yambaye agakoti k'umukara, undi yambaye ishati icitse ku kaboko.

Urubyiruko rwateraniye hamwe, rwambaye imipira y'ubururu, benshi muribo bambaye amapantaro y'umukara, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati, hakabamo n'umugore ufite uruhu rwera wambaye ikote rirerire ry'umweru.

Umugabo urwaye akaguru, yasuwe n'abagore b'abaganga bafite impapuro mu ntoki, inyuma yabo hari insina, ibyatsi n'ibiti birebire, bicaye ku dutebe tw'utubaho.

Abana benshi bicaye ahantu hamwe harimo n'umukecuru umwe ukuze, bicaye hasi basa nk'abafite inzara ariko bari kureba hirya, wagira ngo hari umuntu bitegereje ugiye kubaha ibyo kurya.

Inzu mberabyombi, yabereyemo inama isa n'ihumuje, bari gufata ifoto y'urwibutso. Ku meza amwe, harambitseho amakaye n'urupapuro. Umugore umwe, yambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru.

Inzu mberabyombi irimo kuberamo inama ifite intebe ndende zisa n'umukara, umugore uri imbere uri kuyobora inama yambaye ishati y'ubururu bwerurutse afite n'imisatsi miremire iri inyuma.

Abantu bateraniye hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo umugore wambaye ijipo yi'icyatsi n'agapira karimo amabara y'umweru, umugabo wambaye ikoti rirerire, ishati, ipantaro, wafashije amaboko imbere.

Abantu bahagaze hamwe barimo gufata ifoto y'urwibutso, harimo umugabo wambaye impuzankano y'abashinzwe umute, abagore n'abagabo bamuhagaze iruhande bamukikije.

Abagore bicaye hamwe ku ntebe y'urubaho. Bafite impapuro n'ikaramu mu ntoki. Harimo uwambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru. Imbere yabo hicaye umugabo wazamuye ipantaro ayigeza munsi y'amavi gato, na we wicaye ku kabaho. Inyuma yabo hateye insina.

Abana batatu barimo koza amenyo, bareba nkaho batishimye. Umwe afite uburoso bw'umuhondo, undi ubururu, undi icyatsi kerurutse cyane. Bambaye imyenda y'ishuri, bafite umusatsi mukeya.

Akana gato k'agakobwa karyamye kwa muganga kasamye bagiye gukura iryinyo. Gafite imisatsi miremire ifungiye mu pande. Muganga yambaye uturindantoki tw'umweru.

Umwana muto muto ufite amenyo manini, ishinya y'umutuku, araryamye, muganga amuhagaze imbere, yambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru. Yamushyize ibyuma mu kanwa arimo areba ikibazo.

Abana benshi b'abanyeshuri bateraniye hamwe, bari koza mu kanwa bakoresheje uburoso butandukanye amabara. Bambaye imyenda y'ishuri ifitemo ibara ry'icyatsi. Umwe muri bo yambaye umupira w'ubudodo ufite amaboko maremare.

Abana barimo gufata inyigisho zijyanye no koza mu kanwa. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Ameza yabo ategujwe ibitambaro bisa nk'umweru; arambitseho umuti w'amenyo. Bamwe bambaye icyatsi, abandi bambaye umweru. Harimo n'umu mama mukuru urimo ureba ibyo bakora.

Umusore ufite imisatsi iringaniye ku mutwe, ufite n'ibitsike byinshi, ari kwereka umuganga iri ryinyo rifite ikibazo ashyizeho urutoki. Umuganga yambaye uturindantoki tw'ubururu n'itaburiya isa n'umweru.

Abagore babiri bicaranye, umwe wambaye amataratara n'impeta mu rutoki, ari kwandika yambaye n'ishati y'umutuku, undi Ufite imisatsi miremire ifungiye inyuma uri guseka wishimye cyane, ameza ari iruhande rwabo ateguje igitambaro cy'ubururu, hateretseho n'amazi hejuru.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya n'uturindantoki dufite amabara y'ubururu, agapfukamunwa n'akantu gapfuka umusatsi, ari kuvura umugabo uri imbere ye amenyo.

Umugore ufite umusatsi mwinshi ku mutwe muremure uri kwireba mu kirahuri ari koza amenyo, afite uburoso bakoresha mu kanwa bufitemo ibara ry'umweru, imbere ye hateretse ikirahure kirimo ubundi buroso.

Umwana muto muto mwiza ufite imisatsi miremire y'umukara urimo gukorerwa ubuvuzi bw'amenyo, muganga uri kumufasha yambaye uturindantoki dusa nk'icyatsi yambaye n'itaburiya isa nk'umweru.

Abana b'abanyeshuri bishimye cyane, benshi muri bo bambaye amashati y'umuhondo, abandi bambaye ay'ubururu bwererutse. Babahaye umuti w'amenyo n'uburoso bwo koza mu kanwa.

Umugore ufite uburoso burimo amabara y'umutuku n'umweru, uri kwigisha umwana koza mu kanwa umuhagaze imbere ye, bose bafite imisatsi miremire y'umukara, bambaye n'amasengeri y'umweru.

Umwana muto muto uryamye ku buriri uri kureba hejuru wasamye ufite ikibazo cy'amenyo. Umuganga umuhagaze imbere yambaye amataratara, itaburiya y'umweru n'uturindantoki ari kureba icyo arwaye.

Abana benshi bishimye cyane b'abanyeshuri, bamaze kwigishwa uko bagomba kwita mu kanwa kabo, buri wese bamuhaye umuti n'uburoso bw'amenyo, harimo uwambaye umupira w'ubururu n'ishati y'ubururu, n'umwarimu wabo ufite imisatsi miremire.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, uri guha umuti umusore uri guseka wishimye cyane, ufite ubwanwa n'ibitsike byinshi ku maso.

Abaforomo babiri barimo kuvura umwana amenyo, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, iruhande rwabo hari imeza iriho impapuro n'ikaramu hejuru.

Umwana muto urimo koza mu kanwa wambaye ikanzu y'icyatsi irimo utubara duto cyane tw'umweru, yambaye agapira k'umweru afite n'akantu mu mutwe, yicaye mu ntebe isa nk'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abantu batatu. Babiri muri bo, ni abaganga barimo gukora ubuvuzi bw'amenyo. Bambaye uturindantoki dufite ibara ry'umweru, udupfukamunwa n'amataratara mu maso yabo.

Icyumba cyo kwa muganga aho bavurira amenyo, ibikoresho byaho bifite amabara atandukanye, birimo ibisa umweru, ibindi bisa umukara, igikuta cyaho gifite ibara ry'umweru.

Umugore wicaye imbere y'umuganga, ufite umusatsi usutse ufungiye inyuma, ari kwereka umuganga mu kanwa, ku meza yabo harambitse telefone impapuro n'ikaramu, iruhande rwabo hari abandi babiri bicaye barimo kwandika.

Abana bicaye hamwe, bambaye udupira dusa n'icyatsi. Bari kubigisha ku bijyanye n'indwara z'amenyo. Umwe muri bo, yipfutse mu maso akoresheje akaboko. Ameza yabo ateguje igitambaro cy'umweru, arambitseho n'umuti w'amenyo.

Abantu bahuriye hamwe higanjemo abasaza n'abakecuru basheshe akanguhe. Harimo abafite imisatsi yabaye imvi, abandi biteze ibitambaro. Intebe zabo zambaye ibitambaro bisa n'umweru.

Abagore babiri bakuze bari mu imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo afite umusatsi urimo imvi nyinshi cyane mu mutwe, bose bambaye amaherena ku matwi, amaboko yabo kamwe kagiye kaba kari imbere akandi kari inyuma.

Umugore w'umuganga wambaye ipantaro n'ishati by'ubururu, ufite igikoresho basuzumisha abarwayi mu ijosi, uri guha umukecuru ibinini, umukecuru afashe ikirahuri cy'amazi mu ntoki ze.

Abagore bari mu zabukuru sheshekanguhe bambaye udupfukamunwa imipira y'umweru n'ingutiya z'umukara bari ku murongo bagenda bishimye imbere yabo hari uwambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umweru n'umuhondo

Umukecuru ukuze afite imvi mu mutwe, wambaye agapira k'ubururu n'umwitero w'umweru, wambaye urunigi rurimo umukara n'umweru, ufite indangururamajwi ku munwa, inyuma ye hari imodoka inzu n'ibiti.

Umugore mukuru usheshe akanguhe, afite umusatsi w'imvi ku mutwe we, ari guseka cyane arishimye, afashe isahani kaboko ari gushiraho ibyo kurya.

Umugore ukuze ari mu imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gasambi gafite ibara risa n'ubururu bwererutse, afite umusatsi muremure ufungiye hejuru, amaguru yayazanye imbere arunama n'amaboko yenda kuyakoza ku birenge.

Umuma ukuze ufite imisatsi y'umukara miremire yafungiye inyuma ari gusuka ji mu kirahure yo guha umusaza ufite imisatsi n'ubwanwa birimo imvi. Ku meza yabo hari amasahani arambitseho imbuto, imwe isa nk'umweru indi isa nk'icyatsi cyerurutse.

Umuryango wicaye ahantu hamwe wishimye cyane harimo akana gatoya gafite umusatsi muremure bafungiye hejuru, kabamo n'umusaza wambaye agapira k'umukara n'agakabutura k'umweru, umugore wambaye agapira k'icyatsi ufite imisatsi iguye inyuma.

Abantu babiri bishimye cyane bari guseka. Umugabo umwe ukuze wambaye amataratara, ku meza yabo harambitse ibikombe bisa n'umweru. Bafite igitabo bari gusoma, umuhungu yambaye ishati irimo amabara y'umukara.

Abakecuru bishimye cyane bari gusarura icyayi, umwe muri bo yambaye ikanzu y'ubururu, agatambaro k'ubururu ku mutwe, agatete gateretse hejuru y'icyayi bari gusaruriramo, inyuma hari umukecuru wambaye agapira k'umweru n'agatambaro k'umukara.

Umugabo ukuze cyane usheshe akanguhe, ufite imvi nyinshi mu mutwe no mu bwanwa. Yicaye mu ibase barimo kumwoza. Iruhande rwe hahagaze umuntu uri kumufasha gukaraba.

Umuryango wishimye cyane urimo guseka; harimo abakobwa n'abana b'abahungu. Imbere mu ntebe yicayemo umugore mukuru afashe amaboko imbere n'akana gato gacigatiye akantu.

Umugore ufite uruhu rwera, imisatsi myinshi ku mutwe miremire, wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu. Afashe mu kiganza cy'umusaza, wambaye amataratara, ari ufashe guhagurutsa ku buriri.

Umugabo w'umusaza ukuze ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane. Acigatiye akana gafite agapupe mu ntoki. Izuru rye yarihuje n'iry'ako kana. Yambaye ishati irimo amabara y'ubururu.

Umugore wishimye cyane uri guseka afite umusatsi muke ku mutwe, yambaye agapira gafite amaboko magufi agarukiye mu kwaha, azamuye akantu mu ntoki.

Umukobwa ufite uruhu rwera n'imisatsi miremire yafungiye inyuma. Yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara. Ari gufasha umusaza uri mu zabukuru gutambuka. Icyumba barimo, harimo ibikoresho bifite amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru.

Umugore wambaye akantu mu ijosi, gakoreshwa n'abaganga basuzuma abarwayi, afashe akaboko k'umusaza wicaye imbere ye, ufite imisatsi irimo imvi wambaye n'amataratara, mu kaboko ke harimo akuma baterura.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umweru basa nk'abari mu myitozo ngororamubiri, umwe yiteye umupira w'umukara ku rutugu bafite amacupa y'amazi mu ntoki.

Abagore babiri bishimye cyane bari kumwe n'akana gatonya bafite ibyatsi mu ntoki, umugore umwe afite umusatsi mwinshi urimo imvi nyinshi cyane, yambaye agapira k'umuhondo undi yambaye amataratara yafungiye n'umusatsi hejuru.

Umugabo n'umugore bishimye cyane, bari guseka, bafite umusatsi w'imvi gusa, umusaza yambaye amataratara n'ubwanwa bwe burimo imvi nyinshi cyane, yambaye agapira k'ubururu bwererutse buri kujya gusa umweru.

Umugore w'umukecuru uri mu myitozo ngororamubiri, ari gukorera ku gasambi gafite ibara ry'icyatsi yarerutse, inkokora z'amaboko yazishinze kuri ako gasambi, n'amaguru ye, ikindi gice cy'umubiri akizamura hejuru.

Umugore w'umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'ibara ry'ubururu bwijimye n'igikoresho gikoreshwa mu gupima abarwayi mu muhogo, ufite imisatsi miremire iri inyuma. Afashe mu kiganza cy'umukecuru ufite imisatsi y'imvi wambaye n'amataratara.

Umugore n'umugabo, bakuze cyane, imisatsi yabo, yabaye imvi. Umugabo yambaye amataratara mu maso. Bose bambaye udupira, turimo amabara y'umutuku. Ku meza yabo harambitse ibinini.

Umugore ufite uruhu rwera, imisatsi miremire, wayishyize inyuma n'imbere uruhande rumwe uri guseka, yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara rijya gusa n'umweru, afashe mu kiganza cy'umusaza wambaye amataratara, ufite inda nini ari kumufasha gutambuka.

Umugore wambaye ikote uhetse igikapu mu mugongo, ufite akandi mu ntoki, umusatsi muremure ugiye inyuma ari gufasha umukecuru wambaye fulari mu muho n'ingofero mu mutwe gutambuka.

Akana gato k'agakobwa kambaye umupira w'amaboko maremare sugeds gafite umusatsi mwinshi ukandagujetwe yicaye iruhande rw'umusaza wambaye amataratara bari gukina umukino w'ikoranabuhanga. inyuma yabo harambitse itara ryo mu cyumba.

Umukecuru wicaye hasi iruhande rwe hari ibyatsi byinshi uri guteka ku mashyiga yo hasi atatu, isafuriya imwe iteretseho indi irayipfundikiye, urugo rwe ruzengurutswe n'ibyatsi.

Umuryango w'umugabo n'umugore bishimye cyane bakuze, imisatsi yabo irimo imvi nyinshi cyane, bari kumeza bari gufata amafunguro iruhande rwabo hateretse ikirahure cy'amazi.

Umuganga w'umugore wambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, afite umusatsi muremure yafungiye inyuma, yicaranye n'umugabo w'umusaza wambaye amataratara, yamwambitse igipimo mu kaboko cyo kureba umuvuduko amaraso uri kugenderaho.

Umusaza n'umukecuru bafite imisatsi irimo imvi barimo kureba muri terefone. Ku meza yabo hariho ikirahuri kirimo amazi ageze mu gice. Hariho n'uducupa turimo umuti.

Umukecuru wishimye cyane, ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane, ari guseka yambaye amaherena, afite ikanya yo kurisha mu ntoki, isahani iriho imboga n'imbuto.

Abantu babiri bicaranye, ku meza yabo hatetseho mudasobwa, uducupa tubiri tw'imiti, impapuro na telefone. Umugabo yambaye impeta mu rutoki, afashe n'umuti mu ntoki. Umugore yambaye amataratara mu maso n'amaherena ku matwi.

Abagore babiri bari mu myitozo ngororamubiri. Umwe yambaye ipantaro n'ikote rifite ibara rijya gusa n'umukara. Undi yambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'ishati ifite amaboko magufi n'ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire y'umukara yajyanye inyuma, ari gufasha umusaza usheshe akaguhe, wambaye amataratara, imyitozo ngororamubiri.

Umugore w'umuganga ufite imisatsi isa n'ikigina, wambaye ipantaro n'agashati ka maboko magufi bisa n'ubururu bwijimye, wicaye imbere y'umukecuru ufite imisatsi irimo imvi wambaye amaherena, yamushize igipimo mu kaboko we acyambara mu matwi.

Umugabo n'umugore bishimye cyane barimo guseka, bafite imvi mu mutwe wabo nyinshi, bari mu myitozo ngororamubiri, bose bambaye amasaha ku kuboko, umugore yambaye amaherena.

Umusaza mukuru, usheshe akanguhe, ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane, bari kumufasha gutambuka afashijwe n'umugore wambaye agapfukamunwa n'amataratara.

Igikoni k'iterambere kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo abagore babiri barimo gutegura amafunguro, umwe muri bo asheshe akanguhe afite n'imisatsi y'umweru afite ikirahuri mu ntoki barishimye cyane.

Umukecuru ukuze munini wambaye impeta mu rutoki wicaye mu ntebe, ari kumwe n'umukobwa uhagaze inyuma y'intebe amufashe mu gatuza, barishimye cyane bari guseka.

Abantu batatu bari mu gikoni, umukecuru wambaye amataratara n'imisatsi y'umweru, umukobwa wambaye amahere n'umusatsi mukeya n'umusore ufite umusatsi uringaniye ku mutwe, ubwanwa, wambaye agapira gatukura barimo gutegura amafunguro ya gitondo.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, bishimye cyane bari guseka, bafite imvi mu mutwe nyinshi cyane, bose bambaye impeta mu ntoki zabo, umukecuru afite amaherena mu matwi.

Umukecuru barimo guha ibyo kwiyorosa, wambaye agatambaro k'ubururu mu mutwe, harimo umumama wambaye imyenda y'umukara witeze agatambaro k'umweru n'umupapa wambaye akajire k'umukara n'agapira k'ubururu.

Umugore ufite imisatsi miremire ifungiye inyuma, wambaye agapira k'umweru imbere y'itaburiya, uri gufasha umugabo ukuze gutambuka. Inyuma yabo hari akabati gafite amabara y'umweru n'ikirahure.

Umugore wambaye amataratara n'uturindantoki n'agapfukamunwa ,ufite imisatsi isutse ifungiye inyuma, yambaye ipantaro n'agashati k'amaboko magufi, afite n'igikoresho gikoreshwa n'abaganga usuzuma abarwayi, imbere ye hari umukecuru ari kwambika igipimo mu kaboko.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe basa n'abari gufata ifoto y'urwibutso. Bamwe barirabura abandi bafite uruhu rwera. Umugore umwe yambaye ikanzu ndende isa n'umukara. Harimo n'umusore wambaye ishati y'icyatsi.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'icyapa, bari gufata ifoto y'urwibutso, umugabo yambaye ikote n'ipantaro n'inkweto by'umukara, ishati y'ubururu bwererutse, umugore yambaye inkweto ndende n'ikanzu irimo amabara y'umutuku.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama yahuje abana b'urubyiruko. Benshi muri bo bambaye udupira tw'umweru, abandi bambaye utw'umukara, harimo n'uwambaye agashati k'icyatsi. Ameza y'umwe muri bo ateretseho mudasobwa n'ikaye.

Umugore wishimye cyane uri guseka, ufite imisatsi isutse yajyanye inyuma, yambaye amaherena maremare, agakomo mu kaboko, agapira n'ipantaro by’umukara, afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bateraniye hamwe barimo gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bambaye udupira tw'ubururu, abandi bambaye utw'umweru n'amapantaro y'umukara, ku ruhande rumwe hahagaze umugabo ushinzwe umutekano, wambaye imyenda isa n'icyatsi.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, ihumuje bari hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, ab'imbere baricaye abandi barahagaze, bose bafite udutabo mu maboko yabo, ameza yaho ateguje ibitambaro by'umweru, naho hasi hari igisa n'umutuku.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, batandatu muri bo bicaye imbere, batanu ni abagabo bambaye amakoti y'umukara n'amashati n'amakaruvati, umwe muri bo ni umugore.

Umukecuru ushaje cyane usheshe akanguhe, afite amenyo atandukanye, yambaye ingofero y'umutuku mu mutwe, bamukoreye ubuvuzi bw'amaso, none rimwe barikuyemo hariho pamba.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama yahuje abagabo n'abagore, bamwe bicaye imbere bari kuyobora inama, harimo umugabo uri gufata amafoto, yicaye ku ntebe zifite amabara asa n'umutuku.

Abantu babiri umugore n'umugabo, mu myambaro yabo hose harimo amabara y'umukara, barimo gukora ubukangurambaga ku ndwara ijyanye n'Igituntu, inyuma yabo ari amabendera.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama. Abagore babiri bicaye imbere n'abagabo batatu. Umugabo umwe, afite urupapuro mu ntoki n'umugore ufite indangururamajwi.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama yahuje abana b'abakobwa b'urubyiruko, benshi muri bo bafite imisatsi miremire bafungiye inyuma, umugore umwe ahagaze imbere, ari kuyobora inama, undi ari gufata amafoto.

Umwana muto ufite umusatsi uringaniye ku mutwe, arishimye cyane ari guseke, yambaye agapira k'amaboko maremare gasa n'icyatsi, inyuma ye hari ameza ateretseho ururabo rufite ibara ry'umuhondo.

Abagore bicaye hamwe kwa muganga, bishimye cyane barimo guseka. Bateruye abana mu ntoki zabo, umwe muri bo yambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi, umukara n'umweru, undi yambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'ikigina.

Inzu mberabyombi yateraniyemo abagabo n'abagore bari mu nama, batatu bicaye imbere umugabo hagati y'abagore wambaye ikote, umugore umwe ni umwirabura ufite umusatsi muke, undi afite uruhu rwera ari kureba uwo mugabo.

Umugore ufite imisatsi miremire isutse ifungiye inyuma, wambaye agapfukamunwa, amataratara, isaha ku kuboko n'inzara zisize amabara atandukanye, afite ubwoba barimo kumutera urushinge ku rutugu, inyuma ye hahagaze umugore wambaye ikanzu, irimo amabara y'umuhondo n'umweru.

Inzu mberabyombi ifite amabara y'umweru, inama irahumuje barigufata amafoto y'urwibutso. Ab'imbere bicaye ku ntebe, harimo abagabo bambaye amakote, amashati na makaruvati, abagore babiri umwe wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ipantaro y'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abagabo n'abagore, imbere hari itorero ry'umuco nyarwanda, ririmo gususurutsa abateraniye aho, bamwe bambaye umuhondo, umutuku umweru n'umukara.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abagabo n'abagore bari mu nama, batandatu muri bo bicaye imbere bane ni abagabo, babiri bambaye karuvati abandi batazambaye n'abagore babiri bambaye amakoti y'umukara.

Umugore w'umuganga wambaye ishati ifite amaboko maremare isa n'umweru, yambaye insengeri inyuma yayo, afite umusatsi muke ku mutwe, ari imbere y'umukobwa wambaye agapira k'umukara, yamushyize igipimo mu kaboko.

Imodoka y'umukara iri gusohoka mu mbuga y'ibitaro, bifite inyubako ndende, iriho n'ibirahuri kuru ruhande. Ku muryango wabyo hicaye umugabo wambaye agapira k'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imeza ifitemo ibara ry'umukara, iteretsweho Mudasobwa, harimo uburiri bufatiraho abarwayi ibizami, harimo akabati gateretsweho imiti n'intebe eshatu.

Umuforomokazi wambaye ipantaro n'agashati k'amaboko magufi. Ari kumwe n'abakecuru babiri, umwe yamwambitse igipimo mu kaboko, yambaye ikanzu irimo amabara y'umukara, umweru n'umutuku, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi bifite inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, hari kwinjiramo umugabo uri gusunika igare, mu mbuga yaho hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, abantu bane bicaye imbere bari kuyobora inama, bose bambaye amakote asa n'umukara, ameza yabo ateguje ibitambaro bifite amabara y'icyatsi, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abagabo babiri bari kwa muganga barembye cyane bafite ibyuma mu mazuru baryamye ku buriri, umwe muri bo matera ye irasa n'icyatsi, amabara ari muri ibyo bitaro harimo: ubururu, umweru n'umuhondo, akabati kabo hateretse amacupa y'amazi.

Inzu y'ababyeyi ifite inkingi eshatu yubakije amatafari ahiye, ikagira igiti kirekire kiyiteyeho impande. Ikagira ikigega gisa ubururu mu mabara ashaje.

Ibitaro bya Kigeya mu nyuguti nini cyane zisa umutuku, imbere yabyo hari umubyeyi ufite umusatsi muke uhetse umwana, wambaye agatambaro mu muhogo kamanutse imbere. Yambaye ijipo y'umutuku, irimo n'amabara y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikingira urumuri mu idirishya no mu nzugi bisa n'icyatsi cyererutse, hakabamo n'ibisa n'umukara, icyatsi n'umweru. Haryamyemo umurwayi umwe wiyoroshe ikiringiti gifite amabara y'ubururu.

Inzu y'ababyeyi bakoresha bari kubyara, iruhande rwayo izengurutswe n'ibiti binini cyane n'indabo ziri ku ruhande rumwe, ifite imbuga nini cyane irimo utwatsi dukeya.

Urubyiruko ruri mu cyumba cyo kwa muganga. Bambaye amataburiya maremare y'ibara ry'umweru n'uturindantoki tw'ubururu. Ku meza yabo hateretse ibikoresho byinshi bitandukanye harimo n'amavuta yo guteka ari mu icupa rirerire.

Ahantu hameze nk'urusengero hateraniye abantu benshi cyane, abagore babiri bahagararanye bifashe ku itama nk'abafite agahinda. Iruhande rwabo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, hafi yabo hari umugore wambaye agapira gatukura uhagaze impande y'imodoka wifashe mu mayunguyungu.

Abaforomokazi bambaye imyenda ijya gusa n'ubururu ipantaro n'amashati, bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi babyariramo ifite amabara ajya gusa nk'umuhondo wijimye n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bidafite abarwayi. Ibikuta byacyo kimwe gisa cyatsi, ikindi umweru, ikindi harimo amabara y'ubururu, gifite inzugi ebyiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo uturinda urumuri dufite amabara y'ubururu, inzitiramibu y'umweru n'intebe z'umukara, gifite ibikuta bisa n'umweru, harimo abantu bambaye imyenda ibapfutse umubiri wose kuva ku mutwe kugera hasi ku birenge.

Inzu ndende yo kwa muganga, ifite amabara atandukanye. Umuhondo, ndetse n'igice cyubakishijwe n'ibirahuri. Mu mbuga yaho, hateretse imodoka nyinshi zitandukanye. Harimo izifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Abagore batatu bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu n'amaboko magufi, bose biteze udutambaro dufite ibara ry'umweru mu mutwe, inyuma yabo hari ibiti binini bifite n'amashami manini.

Umugabo ufite umusatsi muke muke ku mutwe, wambaye igikoresho cy'abaganga bakoresha basuzuma abarwayi mu muhogo. Ipantaro n'ishati y'amaboko magufi bisa n'ubururu, yicaye imbere y'umugore wirabura cyane uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara.

Umunyonzi uhetse umwana ku igare, ufashe indobo mu ntoki ifite ibara ry'ubururu, ari imbere y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi. Cyubakishije amatafari ahiye, gifite urugo runini, rufite urugi ku marembo, rufite ibara ry'umutuku.

Inzu abagore babyariramo, imbere y'aho hari abantu b'abagore n'abagabo, umwe muri bo ahagaze ku muryango, abandi bicaye ku mpande.

Abantu bahagaze hamwe mu ishuri, n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru wamanuye agapfukamunwa, ufashe ku rutugu rw'umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi y'amaboko magufi, inyuma ye hahagaze umugore muremure wifashe ku kaboko kamwe, n'undi wambaye amataratara ku ruhande rwabo.

Ibitaro bikuru by'i Rwamagana, imbere yabyo hariho abantu mu ngeri zitandukanye, abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, harimo umugore wambaye ijipo ndende y'icyatsi n'umugabo wambaye ishati itukura.

Ibitaro bikuru by'i Kabgayi byubakishije amatafari ahiye, mu mbuga yabyo hateyemo ibiti birebiri, hahagazemo abantu babiri n'undi umwe uri gusunika igare, bimwe bisakaje amabati afite ibara ry'ubururu ibindi amategura.

Inzu y'ibitaro bikuru bya Nyarugenge, ifite ibikuta bifite amabara atandukanye, ibisa umweru, ubururu bwijimye, n'umuhondo wijimye, imbuga yaho iteye utwatsi duto duto.

Umugore w'umuganga afashe umurwayi ku rutugu n'igipimo mu ntoki, umurwayi yicaye ku buriri yiyoroshe ururingiti rufite ibara ry'icyatsi n'inyuma ye hari akenda k'ubururu. Inyuma yabo hari umugore uryamye ku buriri uri kubitegereza.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, batatu bari imbere umwe muri bo arahagaze ari kuyobora inama, abandi bicaye ku ntebe y'itubahu, harimo abakecuru bakuze cyane ndetse n'abandi biteze ibitambaro mu mutwe.

Inzu mberabyombi yabereyemo inama, Imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara uri kuyobora inama ameza yabo ateguje ibitambaro bifite amabara y'umutuku, ateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Akana gato k'agahungu, kambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro n'ishati y'umweru, kari gusunika umusaza mu kagare, bagiye kwinjira ahantu hari ibitambaro bifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, imbere y'aho hahagaze umukobwa ufite umusatsi mwinshi ku mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi ariko bitariho abarwayi, harimo amarido y'ubururu, buri gitanda gifite supanete hejuru yacyo, ibikuta by'icyo cyumba bifite amabara y'umweru.

Inzu nini y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal bifite imbuga nini cyane, hari abantu bafite udutete mu ntoki bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, bari kwinjira bajya muri iyo nyubako.

Umwana muto uri kwitabwaho n'umuganga, imbere ye hicaye umusore witeze igitambaro mu mutwe, kirimo amabara y'umweru n'umukara, wambaye n'agapira karimo amabara y'icyatsi n'ikabutura y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe n'uburibiri busa n'umutuku, ameza na mudasobwa iyateretseho harimo n'ibisa n'umweru ndetse n'umuhondo, ibikuta byacyo birasa n'umweru.

Abagabo babiri bicaranye, umwe muri bo umuganga, afite ikaramu mu ntoki, yambaye agapira k'umweru nakajire k'umukara bitangwa n'ikigo cy'ubuzima, ari gufata mugenzi we ibipimo no kureba urugero rw'amaraso arikugenderaho, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditsweho irembo, hakaba n'ibikoresho byikoresha igihe habaye inkongi y'umuriro.

Umugabo wambaye uturindantoki tw'umweru uri gutera urushinge ku rutugu rw'umuhungu yambaye, itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara umuhungu arogoshe ari kureba ku ntoki za muganga.

Bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore bose bambaye udupfukamunwa. Harimo abambaye ishati ifite ibara ry'umweru, udupira tw'ubururu n'amapantaro. Babiri muri bo bafite inkoni ifasha abafite ubumuga bwo kutabona.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo n'umuti wo koga mu ntoki. Inkingi irimo, iriho itara ririmo kwaka. Umuforomokazi wambaye taburiya isa n'icyatsi n'ingofero y'umweru, urimo kwita ku mwana w'agahinja.

Inzu yo kwa muganga bafatiramo ibizamini, yubakishije amatafari ahiye n'amarangi y'umuhondo n'umweru. Imbere yawo hicaye abagore. Mu mbuga yawo, hateyeho indabo.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayizari, mu mbuga yabyo hateye ibiti birebire, hari n'amabendera atandukanye harimo n'iry'igihugu, imbere yaho hari abagore bahagaze harimo uwambaye ishati y'umweru.

Umugore w'umuganga ufite umusatsi muremure ufungiye inyuma, yambaye itaburiya y'umweru n'uturindanki tw'umweruru, ari gufata amaraso mu kaboko k'umugabo uryamye ku buriri, yambaye inkweto n'ingofero n'agapfukamunwa.

Umugabo w'umuganga wambaye amatarata mu maso n'igikoresho gikoreshwa n'abaganga bavura abarwayi mu muhogo. Afite impapuro mu ntoki ze, iruhande rwe hahagaze umwana w'umukobwa ufite umusatsi muke washize amaboko ku nda.

icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ba ryamye ku gitanda abicaye bambaye udupfukamunwa umukobwa n'umuhungu bari gukora amasoko umwe wambaye agapira k'ubururu undi wambaye ikintu kirekire cy'umweru

Ivuriro ryubakishije amatafari ahiye, rifite inzugi zisize ibara ry'ikigina, imbuga yaryo izengurukishijwe n'indabo zifite mu ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho hari ibigega bibiri bisa n'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibyifashishwa kwerekana amashusho, uburiri bushasheho ishuka risa n'umweru n'intebe zifite ibara ry'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye. Harimo intebe zifite ibara ry'ubururu bwijimye, ibikuta bifite ibara ry'umuhondo n'umweru. Harimo n'inkingi zikozwe mu nyuguti ya Y.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'ubururu, ikote n'ipantaro by'icyatsi, ufite n'ibase mu ntoki, inyuma ye hari umugabo ufashe akana akaboko, hepfo yabo hateye indabo zisa n'icyatsi, inyuma yabo hari inzu, haruguru hari indabo zayanze, indabo zisa n'umutuku.

Abantu benshi bateraniye kwa muganga, umwe muri bo bambaye udupira tw'icyatsi, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru ifitemo amabara y'ubururu, abandi bambaye udupfukamunwa.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byabugenewe, bifite amabara y'umukara bimwe, ibindi harimo n'ay'umutuku. Gifite inkuta zifite amabara y'umweru, n'aho hasi, harimo isima isa nk'umukara.

Mu icyumba cyo kwa muganga kirimo abana b'abakobwa n'abahungu, bambaye amataburiya y'umweru, bamwe bambaye uturindantoki tw'ubururu, undi ntako yambaye, ibikuta byacyo bifite ibara ry'umweru, ku meza y'aho hateretse ibikoresho bitandukanye.

Umugore muto muto ufite umusatsi usutse, wambaye amatatara, itaburiya ifitemo ibara ry'ubururu bwijimye, ifite amaboko magufi, yambaye igikoresho cy'abaganga bakoresha bari gusuzuma abarwayi mu muhogo, imbere ye hahagaze umugore ucigatiye umwana.

Inzu y'ababyeyi babyariramo, imbere y'aho hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, harimo abihayimana b'abagore n'umugabo, harimo n'umusirikare, iruhande rwabo hari abandi babiri bahagaze ku idirishya.

Abaforomokazi bambaye imyambaro isa n'ubururu bw'ikirere, bambaye n'udupfukamunwa, barishimye cyane, umwe arogoshe, abandi bafite imisatsi miremire isutse, bari imbere y'ibirango bigaragaza ibitaro bya Legacy.

Inzu y'ibitaro bya Ruhengeri, ifite igipangu kigizwe n'inkingi, n'utwuma, tugiye tuba tumwe duhagaze, utundi dutambitse, mo imbere haryamyemo umwana w'umukobwa umuhanda ujyayo harimo abantu benshi cyane.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibikoresho bitandukanye. Harimo ibifite amabara y'ubururu, umukara n'umuhondo. Ibikuta by'icyo cyumba bifite ibara ry'umweru.

Ibitaro bikuru bya Nyanza; mu mbuga yabyo, hateyemo indabo n'ibiti binini cyane. Igice kimwe, gisakaje amabati afite ibara ry'ubururu bwerurutse. Imbere hari umuhanda n'urugi runini, rufite ibara ry'ubururu bwijimye.

Abamama babiri baryamye kwa muganga. Hagati yabo harimo ibitanda bitagira umuntu. Umwe yiyoroshe ishuka y'ubururu yijimye cyane undi irereruka. Supanete zabo zirazinze.

Abantu batatu bari mu nzu mberabyombi, umwe ahagaze imbere ari gutanga inyigisho, abandi babiri baricaye, umwe yambaye agapira k'umutuku undi yambaye ak'umukara, ameza yabo ategujwe ibitambaro by'umutuku, hakabaho n'agacupa k'amazi.

Igiti kinini cyane kibyibushye gifite amashami manini atoshye. Iruhande rwaryo hateye utundi twatsi hanubakiye urukuta rw'amabuye. Imbere yacyo hicaye umugabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bari gusuzuma abarwayi, gifite ibikuta bifite amabara asa nk'umweru, hasi harasa nk'ubururu bwerurutse cyane, bimwe muri ibyo bikoresho birasa umukara, ibindi ubururu, ibindi bifite amabara y'umweru.

Umugore w'umuganga wambaye amataratara ufite umusatsi muke uringaniye ku mutwe, wambaye itaburiya y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'uturindantoki, ari gutera urushinge umugore uryamye ku gitanda wambaye ibitenge wipfutse mu mutwe.

Umukobwa ufite umusatsi uringaniye, wambaye amaherena, uri kunywa amazi akoresheje icupa, asa n'uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri kariho amabara y'umukara n'isume ku rutugu rwe.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugabo wavunitse bari kongera kwigisha kugenda neza, harimo icyuma cy'ikoranabuhanga gituma haza umwuka ukonje igihe hashyushye cyane, harimo n'umuforomo uri kwigisha uwo mugabo gutambuka wambaye imyenda y'ubururu.

Abana benshi bateraniye hamwe, bari mu kibuga, bari mu myitozo ngororamubiri, harimo abantu bakuru bari kubafasha gukora imyitozo, inyuma yabo hari inzu yubakishije amabati afite ibara ry'umutuku.

Umugabo uri mu nzu y'umuryango muremure cyane ari mu myitozo ngororamubiri yambaye isaha y'umweru ku kuboko kw'ibumoso, akaguru kamwe kari inyuma arakicariye, akandi kari imbere, yambaye inkweto zirimo ibara ry'umutuku n'ikabutura y'umweru.

Umugabo w'ibigango uri mu myitozo ngororamubiri ufashe umupira mu ntoki yambaye agapira gasa n'umutuku, ikabutura y'umukara n'inkweto. Iruhande rwe hari umugabo uri kumubarira iminota wambaye ipantaro isa n'ikigina.

Abana benshi bateraniye hamwe barimo gukina agapira bishimye cyane, ku kibuga hari abantu benshi bahazengurutse bari kubareba, inyuma yabo hateye insina nyinshi cyane, hari abantu babiri bafite igipapuro kinini kiriho ibirango.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri n'agakabutura, akaboko kamwe yakazamuye, akanyuza ku mutwe, akandi gafata kuko yanyujije hejuru.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri akaguru kamwe yagahinnye akandi kararambuye, akaboko ke k'iburyo gafashe mu ivi ry'akararambuye ak'ibumoso ko gafashe ku mano.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri akaguru kamwe yagashinze hasi akandi kari imbere karahagaze amaboko ye harimo ibikoresho byo guterura iruhande rwe hari umugabo uri kumufasha.

Umukobwa uri muri siporo ufite imisatsi miremire yafungiye inyuma ariba hejuru, aryamye ku gasambi gafite ibara ry'umutuku yambaye n'ipantaro isa nk'umukara, iruhande rwe hari indabo n'ibikuta by'inzu bisa nk'umweru.

Umugabo muremure wirabura, usa nk'uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'umukara n'isengeri inyuma y'umukara, uri kwimenaho amazi mu mutwe.

Imipira ifite amabara n'ingano zitandukanye, bikoreshwa mu mikino itandukanye n'igikoresho gikoreshwa n'umuganga ari gupima abarwayi, kirambitse kuri iyo mipira.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye isaha ku kuboko n'ikabutura y'umukara, akaguru kamwe yakazamuye, yakambitse umugozi muremure yawuzirikiye inyuma, icyumba arimo kirimo akabati n'ibikuta bisa n'umweru.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu bwererutse urimo gufasha umusaza gutambuka wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara n'umukandara, ari kugenda afashe ku byuma biri mu mpande ze.

Umugabo muremure ubyibushye, ufite akaboko kanini, yambaye udukomo ku maboko yombi n'agapira k'umukara, ateruye icyuma kinini cyane kiremereye gifite amapine abiri hirya no hino.

Umwana w'umukobwa ufite umusatsi muke muke ku mutwe we, uvuye mu myitozo ngororamubiri, ufite isume ku rutugu isa nk'umweru, mu myambaro ye harimo icyatsi umweru n'ubururu, afite icupa ari gukoresha anywa amazi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'isaha ku kuboko. Afite ubwanwa bukebuke buringaniye. Ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga bari gupima abarwayi, gifite igice kimwe kiriho utuwuma tubiri tujya mu matwi y'umuganga n'akandi gace ko hasi barambika ku murwayi, hagati gifitemo ibara ry'ubururu.

Abantu bagize umuryango ushinzwe gutabara imbabare, bahagaze ahantu hamwe bakoze ishusho y'uruziga, umwe muri bo, yapfukamye imbere yabo, ku kirangiti gishashe hasi.

Avoka, pome n'izindi mbuto zitandukanye, imboga harimo n'izifite ibara ry'umweru, icupa ry'amazi nk'igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri biteretse ku meza ahantu hamwe.

Abantu babiri basa n'abari mu myitozo ngororamubiri, umwe yicaye ku ntebe undi arahagaze yazamuye amaboko hejuru, imbere yabo hari ibikapu bibiri bisa n'umukara, inyuma yabo hari umurima uteyemo ibimera bisa n'icyatsi.

Abagabo bari mu myitozo ngororamubiri, umwe uryamye ku gitanda yambaye inkweto, undi uhagaze imbere, akaboko ke yagashize mu mugongo akandi ku rutugu, hepfo yabo hahagaze wambaye umupira w'amaboko maremare y'umukara, inyuma yabo hari abagore nabo bari mu myitozo.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri, wicaye ku gasambi gafite ibara ry'icyatsi cyereruka, amaguru yayarambuye imbere, arunama afata ku birenge, intoki ze zisize umuti ku nzara ufite ibara ry'umutuku.

Ibinini bifite amabara atandukanye n'ingano zitandukanye. Birambitse ku kintu gisa nk'ubururu bwererutse cyane, impande y'abyo hari urushinge rukoreshwa bari gutera umuti.

Abana bari mu kibuga cyabereyemo umupira bishimye cyane, umwe muri bo ari gusimbuka cyane yishimye, umugabo uri ku ruhande wambaye umupira w'umutuku urimo gukoma amashyi.

Umugabo ufite uruhu rwereruka bisa nkaho amaze gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi ku ma esikariye, yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara afite terefone mu ntoki, yambaye udufasha kumva amajwi mu matwi, ari kunywa amazi.

Umugore ucigatiye umwana wambaye agapfukamunwa witeye n'agatambaro k'umuhondo n'agakomo mu ntoki, yicaye imbere y'umuganga ufite igikoresho kiri gusuzuma mu mutwe w'umwana, ku meza yabo hariho ibikoresho byinshi bitandukanye.

Umukobwa ufite umusatsi muke cyane ku mutwe, wambaye agapira gafite amabara y'icyatsi n'umweru, yashize n'isume ku rutugu, ari kunywa amazi mu icupa rifite amabara y'umutuku n'ubururu.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, afite imikaya minini. Ari kwisuka amazi mu mutwe akoresheje icupa, yambaye agatambaro mu ntoki n'agasengeri gafite ibara ry'icyatsi.

Umukobwa wirabura uri muri siporo yambaye agapira ka siporo gatonya kameze nk'isengeri gasa nk'umweruru, agakora k'ubururu bujya gusa n'ikirere wazamuye amaboko akaguru kamwe kari inyuma kandi kari imbere.

Umugabo muremure wirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri. Wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru n'inkweto. Imbere ye hari umugabo wambaye agapira k'ubururu uri kumufasha.

Umusore w'ibigango, uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara, afite umusatsi muke ku mutwe, akaboko kamwe yakanyujije inyuma, akandi agacisha hejuru y'umutwe gafata ka kandi kari inyuma.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye udukoresho tumufasha kumva amajwi mu matwi, ari kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye agapira kamufashe cyane.

Uruhurirane rw'abagore n'abagabo bari mu myitozo ngororamubiri, bahagaze mu kibuga, imbere y'aho hateye ibiti birebire, bari kumanuka buhoro buhoro, amaboko yabo ari imbere.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wicaye hasi mu byatsi, akaguru kamwe yakarambuye akandi yakazamurije amaboko yombi ari kugakurura akajyana hejuru y'akandi.

Umugore upfukamye, wambaye itaburiya ifite amaboko magufi n'ibara ry'umweru, ni iruhande rw'akana gatoya baryamishije hasi, bari kurambura amaboko bayajyana inyuma.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe aryamye hasi, yambaye udusogisi n'agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara irimo amabara y'ubururu n'umweru, yashyize akaguru ku rutugu rwa mugenzi we wicaye imbere ye, ari kumumasa.

Imbuto urusenda n'imboga rurambitse ahantu hamwe, iruhande rwawo hariho metero z'ibara ry'umuhondo n'ibyuma bifite ibara ry'iduka.

Umugabo muremure ufite ubwanwa ari kunywa amazi mu icupa, yambaye isaha ku kuboko, n'agapira gafite ibara risa n'ubururu bwerurutse.

Umugabo uryamye ku buriri bari gukoresha imyitozo ngororamubiri, akaguru kamwe karazamuye akandi kararambuye, akaboko ke harimo terefone yambaye n'agakufi k'umukara.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, urimo kwiruka cyane, iruhande rwe hari ibiribwa akoresha mu gihe asoje imyitozo ngororamubiri, harimo imboga nka karoti, imbuto, pome, n'ibindi.

Abantu bari hamwe bishimye, harimo umugore wihaye Imana, wambaye agatambaro mu mutwe gasa n'umweru n'umupira, imbere ye hapfukamye umugore ufite uruhu rwera, ufite n'imisatsi miremire n'akana gato, inyuma yabo hari umugore wambaye ipantaro irimo amabara y'umutuku n'umweru n'agapira k'umukara.

Umwana w'umukobwa usa n'uri mu myitozo ngororamubiri, afite umusatsi mukemuke ku mutwe, ari kunywa amazi akoresheje icupa rifite amabara y'umweru n'ubururu.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'icyatsi ndende, akaboko ke k'ibumoso yakanyujije inyuma, ak'iburyo arakazamura gafata ka kandi k'ibumoso.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri n'ipantaro ijya gusa n'umweru, afite imisatsi mike ku mutwe, akaguru kamwe yagahinnye akandi arakarambura.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakora k'ubururu n'agasengeri k'icyatsi, akaboko kamwe yagashyize imbere akandi kari inyuma gafashe akaguru yazamuye, inyuma ye hari igikuta gifite amabara y'umuhondo.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye hasi ku gasambi, ahina amaguru, amaboko ayanyuza hagati y'amaguru ayafatisha ibirenge, yambaye impeta mu kuboko, inyuma ye hari agatebe kahateretse.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi myinshi ifungiye inyuma n'ubwanwa bwinshi burebure, yambaye isengeri n'ikabutura by'umukara apfukamye ku gatapi muri saro, iruhande rwe hari intebe.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, ikabutura irimo amabara y'umukara n'umutuku n'inkweto n'amasogisi, arunamye akaguru kamwe kari inyuma amaboko ari imbere.

Abasore bane, bari mu marushanwa yo kwiruka. Babiri bari imbere, abandi babiri bari inyuma. Babiri muri bo, bambaye imyenda isa hose. Undi yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu.

Umugabo usa nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri, wambaye isaha y'umukara n'ikabutura y'umukara igera haruguru y'amavi, arunamye amaboko ye yombi yayashyize ku kaguru kamwe, agafashe mu ivi nk'aho karimo kumurya.

Abagabo barimo gukina umukino w'amaboko bose bambaye uturindantoki, bamwe bambaye imyenda y'umutuku abandi umweru, bose bambaye ibikoresho bikingira umutwe kugira ngo badakomereka.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira gafite ibara ry'umweru, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryifitemo ibara ry'ubururu, isaha ku kuboko, yambaye udufasha kumva mu matwi ye.

Umukobwa usa nk'aho uri mu myitozo ngororamubiri. Yambaye udufasha kumva amajwi mu matwi, afite umusatsi muremure w'umukara ifungiye inyuma, yambaye n'agapira gasa nk'idoma ari kunywa amazi.

Umugabo w'ibigango uri mu myitozo ngororamubiri, mu matwi yambaye udufasha kumva amajwi. Akaguru kamwe kari inyuma akandi kari imbere, amaboko ye yombi afashe ku ivi ry'ako kaguru kari imbere.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo utwatsi dutoya dusa nk'icyatsi, n'amabara y'umweru. Abagabo babiri bari kumwe, umwe aryamye hasi yazamuye akaguru, undi ari kumumasa mu ivi.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye burambitse hamwe, harimo: pome, inkeri z'umutuku n'umukara ndetse n'izindi, impande yabyo harambitse ibirahure bibi, kimwe kirimo amazi n'ikindi kirimo umutobe w'imbuto usa n'umuhondo.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo amabara y'umweru ,yicaye hasi akaguru kamwe yagahinnye akigeza imbere hafi ku bibero, akandi kararambuye arunamye afashe ku mano y'akarambuye.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura y'umukara n'agapira kajya gusa n'umweru, akaguru kamwe yakazamuye akarambika ku cyuma, akandi gahagaze hasi, akaboko kamwe gafashe ako kaguru kari hejuru, akandi kari mu mayunguyungu.

Amacupa y'amavuta maremare, imwe isa umuhondo ayandi usa umweru, ashushanyijeho ibimera by'icyatsi, akabaho n'akanyabuzima kari kuguruka gafite icyatsi mu ntoki.

Ibicupa, umufuka, ibase, uducuma, inkono iteretse ku ntebe za kinyarwanda, ibyatsi, n'ibirere bihambiranyije, igikarito n'ibyenda bishaje, birunze ahantu hamwe.

Ibitunguru bibiri, kimwe gikasemo kabiri, indimu imwe iciyemo ibice bibiri, icupa rirerire ririmo umuti ufite ibara rijya gusa n'icyatsi cyerurutse cyane, biteretse ku kintu gifite ibara ry'umweru...

Umurima w'ishyamba urimo ibiti byinshi cyane harimo bimwe birebire bifite amashami manini, rirasa icyatsi harimo n'utundi dutoya dufitemo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo.

Imbuto nyinshi zirambitse ahantu hamwe, harimo amacunga manini ahishirije cyane afite ibara rijya gusa n'umutuku, hari n'andi afite ibara ry'icyatsi n'utundi duto dutukurije.

Amacupa menshi ateretse ahantu hamwe, ari mu ngano zitandukanye n'ubwoko butandukanye; hateretseho imiti ifite amabara adasa, amwe arapfundikiye andi ntabwo apfundikiye.

Ishyamba rinini, rifite ibiti birebire byinshi cyane. Iruhande rwabyo, hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru, gafite n'amabara y'umukara, afashe amababi ya kimwe muri ibyo biti.

Ishyamba ririmo ubwoko butandukanye bw'ibiti. Bimwe muri byo bifite amashami maremare cyane n'igitiritiri kirekire ndetse n'amababi bisa nk'icyatsi. Ibindi bifite amababi y'umutuku ni na bigufi.

Igiti kirekire gifite amashami manini n'urutiritiri runini, kiri mu muririma urimo ibyatsi n'ibindi biti bifite amababi menshi cyane biri muri uwo murima.

Icyumba kirimo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agatambaro gatukura mu mutwe. Ku meza hahagaze umugabo n'umugore bateganye.

Imbuto z'amapapayi zirambitse hamwe, ni ebyiri, rumwe rurambitse ku rundi, barukase, rurahishirije cyane, imbere y'aho rusa umuhondo, rufitemo imbuto nyinshi cyane.

Amavaze atatu ari ku murongo yuzuyemo itaka, ateyemo indabo zisa nk'icyatsi, ateretse ku gatanda gafite nka metero enye ujya hejuru munsi yaho, harimo izindi ndabo zitarizakura zizingiye mu mavaze.